Indabo, bari kuhira ubona ko hari umuntu, uri kuhira yambaye icupa risa, umuhondo ndetse n'umufuniko w'icyatsi, ubona ko ari indabo zira ahantu heza cyane.

Umugabo uri gufuhira imbuto ze kugira ngo zikomeze zikure neza ziteye kumurongo kandi zigaragara nk'izitaweho mu buryo burambuye kandi bwuzuye.

Uburobyi bukorwa n'abagabo babiri, umwe yambaye akapfukamunwa ndetse n'ingofero. Bitabiriye igikorwa cyabo bafashe amafi.

Igikorwa cy'ubuhinzi ingandurabukungu, harimo ikawa, hagaragaramo n'urutoki hirya y'aho umugabo nyiri ubuhinzi, ari kwitegereza ikawa ye.

Imiti y'amatungo harimo ubwoko butandukanye.

Imiti y'amatongo irimo amacupa ya.

Umukecuru w'umuhinzi wabigize umwuga ubona ko afite igipapuro yishimye, ahinga, ibitoki, ibigori n'ibishyimbo byose bibumbatiye ahantu hamwe.

Gusarura ibigori birimo abaturage batandukanye.

Ubuhinzi buri gukorwa n'abantu babiri, buri gukorwa n'umugore n'umugabo, ahantu hagaragara ni mu shyamba.

Ubuhinzi bukorerwa ku buso bugari burimo abantu bari gusarura umuceri ndetse bagaragara iruhande rwabo hari ishyamba.

Aha hagaragara amashanyarazi ,mu masambu ahingwamo ibihingwa, byo kurya ngandurarugo ndetse n'ibihingwa ngandurabukungu, hari uruhande ruriho umuhanda.

Igihingwa kiri mu murima umuntu ari kucyitaho ari gusarura akorera insina ze kugira ngo zikomeze zitange umusaruro uhagije yifuza.

Ni umurima urimo imyaka ibitoki ndetse n'umuntu uri kuyitaho, ibiti ndetse n'ibimera.

Ishyamba rinini, ririmo ibiti birebire, bigufiya, ibyatsi birebire, bigufiya, iruhande rwaryo hanyuzeho umuhanda, nyabagendwa.

Ishyamba riri ahantu ku musozi ubona ko ridafite ibiti byiza, ritagaragara neza habe na gatoya kubera ko ryagwingiye.

Ahantu hagaragara nko mu cyaro, hari udusantere twinshi tw'ubucuruzi, ubona ko aha hantu hari kugenda hatera imbere, nubwo hagara hagaragara nk'antu mu ishyamba ariko ubona ko hari abantu benshi bahakorera umwuga w'ubucuruzi.

Igikorwa cy'ubuhinzi kiri gukorwa n'umuma, uri kwita ku karima k'igikoni, kigaragaramo imbuto, imboga ndetse n'ibigori, hagaragara inzu iri hirya yaho, bigaragara ko ari mu cyaro.

Umuntu uri kuhira ibintu by'imyaka, ubona ko ari umuntu ufite kuraje mu byo akora, ahantu h'amazi hagaragara, ubona ko ibyo yuhira bimeze neza.

Abantu bari kuhira ibigori bifashishije umupira .

Ishyamba rinini ry'ibiti byinshi binini riri ahantu heza rigaragara nka parike hari imisozi myiza igaragara neza n'inzira za ziri nyabagendwa.

Ubutaka buriho ibimera n'amazu.

Ikirere cyiza kigaragara ahantu heza.

Imisozi ibona ko ikorerwaho ubuhinzi, kure yaho cyane, ubona hari ibirunga igicu gisa n'igifite imvura, ahantu hijimye, hatari kumva izuba.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere, bukorerwa ku buso ngo no ku bwihitaweho hagaragara aho ingukazishyingura.

Ubworozi bw'inkoko buteye imbere, bukorerwa ku buso bugari, hitabwaho isuku ndetse n'ubuzima bw'amatungo, ari yo inkoko.

Igihingwa cy'ibishyimbo kigaragara mu ntoki z'umunyu.

Umunyeshuri uri kwiga ibintu by'ubuveterineri, ari gukoresha mikorosikopi kugira ngo abasheshe kureba, utuntu dutoya tutabasha kubonwa n'amaso.

Muri parike hagaragaramo inyamanswa.

Inyamaswa z'inkazi ziri ahantu hamwe muri parike zituje ziri kwitegereza ahantu runaka.

Muri parike ubona ko hari inyamaswa nyinshi, harimo inyamaswa ireba nabi cyane bigaragara ko ishobora kuba ishonje gusa ni parike nziza ibigaragara ku maso.